Abantu bari kuvoma, ku iriba hari ufite ijerekani ebyiri, iy'umweru n'iy'umuhondo hari uwambaye akagofero, n'umupira w'umweru, iruhande rwe hakaba hari akajerekani gato.

Abantu batatu bahagaze hari n'undi wicaye bakaba bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye imyenda y'ubururu undi wo hirya yambaye akagofero mu mutwe ku meza hakaba hari mudasobwa.

Umwana uri kuvoma amazi ku iriba akoresheje igikombe kinini cyane, akaba yambaye agapira k'umuhondo, hirya ye hakaba hari ibyatsi byinshi.

Imodoka itwara abarwayi yanditseho ambulance, iruhande rwayo akaba hahagaze abantu benshi. Inyuma yabo hakaba hubatse ihema iruhande rw'iryo hema hakaba hari ibendera.

Umuntu wicaye ku ntebe iruhande rwe hari umuganga uwo muntu akaba yasamye umuganga ari kumupima, uwo muganga akaba yipfutse hose yambaye imyenda y'ubururu, inyuma ye hakaba hari undi muganga uhahagaze.

Umuntu uri ku iriba ari kuvoma amazi, afite iyerekani y'umuhondo, iruhande rwe hari undi uhagaze, inyuma ye hari uwitwikiriye umutaka, inyuma ye hakaba hahagaze abandi bantu benshi.

Umuntu uteruye umwana, iruhande rwe hari umuganga ari kumupfuka, uwo muganga akaba yambaye imyenda y'umweru, na ho umugore akaba yambaye imyenda ikozwe mu bitenge.

Umugore uri kuhagira umwana, umwana yicaye mu ibase irimo amazi, hirya yaho hari undi mwana uri kuvoma amazi akoresheje indobo ku iriba.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari abandi bahicaye, inyuma yabo ku rukuta hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo, ku ruhande hakaba hari televiziyo irimo umuntu ufite indangururamajwi.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu, iyo nzu ikaba ifite irangi ry'ubururu, hejuru yayo hakaba handitseho ngo "Gira Ubuzima." Abo bantu, abenshi bakaba bambaye imyenda y'umweru.

Abana benshi bicaye, bamwe bafite inkongoro bari kunywa bambaye imyenda y'umuhondo, hari n'abandi bantu basutamye bakuru bari iruhande rwabo, harimo uwambaye ingofero.

Umuntu uri gukaraba intoki, yambaye umupira w'ubururu n'ikanzu y'ubururu, hirya ye hakaba hari ibiti hakaba hari n'utuzu dutoya turi inyuma ye.

Umukobwa mutoya yicaye asutamye ari kuvoma amazi ku iriba, afite ijerekani iteretse mu mabase abiri, inyuma ye hakaba hari imyenda ihanitse ku mugozi.

Umwana mutoya uri kuvoma amazi ku kigega, ari gukoresha agakombe, inyuma ye hakaba hari inyubako yubakishijwe n'amabuye, iruhande rwe kuri icyo kigega kikaba gifite ibara ry'umukara.

Umuntu uri kuvoma amazi, afashe ihombo riri guturukamo amazi n'igipira ari kuvomeramo mu ntoki, akaba yambaye umupira w'umuhondo hirya ye, hakaba hari abandi bantu bahagaze.

Abana benshi bahagaze bambaye udukanzu tw'ubururu, imbere yaho hahagaze abandi bantu bose bakaba bari mu ihema, hakaba hari uri gufotora, hasi hakaba hari ibyatsi by'icyatsi kibisi.

Abantu bicaye, iruhande rwabo hari ameza ariho imitako y'indabo, hariho n'uducupa turimo amazi yo kunywa, iruhande rwabo hakaba hari televiziyo.

Umwana usutamye ufite mu ntoki indobo ifite ibara ry'umuhondo, imbere ye hakaba hari iriba iruhande rwaho hakaba hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ubururu.

Abantu bane bicaye, hejuru yabo hakaba hari ibipapuro bihamanitse bigiye biriho amafoto y'abantu, abo bantu bicaye, umwe akaba yambaye umupira utukura, undi yambaye igitambaro cy'ubururu.

Umuntu uri kuvoma ku iriba yambaye igitenge, inyuma ye hakaba hari ibyatsi, afite ijerekani y'umuhondo, iy'umweru, n'iy'umukara, imbere ye hakaba hari indi y'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye imbere yabo, bakaba bambaye amakarita mu ijosi, abenshi bakaba bambaye imyenda y'umweru hari n'abafite indi myenda y'umukara.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru n'umupira w'ubururu, afite ijerekani mu ntoki ari kuyikorera umwana muto w'umukobwa, imbere ye hari umuntu uhahagaze afite terefone ari gufotora.

Umuntu wicaye yambaye agapfukamunwa n'ingofero kuruhande rwe hari undi muntu uhari ari kumutera urushinge ku kaboko, uwo nawe akaba yambaye agapfukamunwa n'imyenda y'ubururu.

Abantu benshi bahagaze bambaye amakarita mu ijosi inyuma yabo hakaba hari ibara ry'ubururu abenshi bakaba bambaye amakote harimo ay'umukara arimo n'ay'ubururu.

Abantu bicaye, umwe muri bo afite ikayi n'ikaramu, akaba yambaye umupira w'umweru ufite ibara ry'umutuku n'icyatsi kibisi, imbere hahagaze umwana wambaye ingofero.

Umuntu wicaye yambaye umwenda w'ubururu, hari undi uhagaze uri kumutera urushinge uhagaze, akaba yambaye umwenda w'umweru, hirya y'aho hakaba hicaye abandi bantu benshi.

Umuntu wicaye hasi yambaye ubusa akaba yifashe ku kaguru, akaguru kamwe kakaba kaziritseho iminyururu, hirya ku rukuta hakaba hari ibara ry'umweru uvanze n'umukara.

Umuntu wicaye yambaye imyenda ishaje cyane yacitse, akaba yifashe ku mutwe, afite ishashi mu ntoki irimo amazi, akaba yambaye ikigofero gisa nabi mu mutwe.

Umugabo uri mu zabukuru, yambaye ingofero n'ishati, yakenyeye igitambaro cy'umuhondo, akaba afite mu ntoki icumu, akaba yarakutse amenyo.

Abagore batatu bahagaze bafashe mu ntoki inkoni, umwe muri bo ateruye umwana ari kumwonsa bose bakaba bateze ibitambaro mu mutwe inyuma yabo hakaba hari urutoki.

Abantu benshi bahagaze, harimo uwambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'umugore wambaye umwenda w'umweru, afite igikapu mu ntoki.

Umuntu wicaye hasi yipfumbase, afite ubukene bukabije, iruhande rwe hakaba hari imyanda myinshi, akaba yambaye umupira utukura ushaje cyane.

Umuntu wicaye yifashe mu mutwe akaba afite imisatsi ibohekanye yambaye umwenda w'umweru akaba ameze nk'ufite ibibazo byinshi.

Abantu benshi bicaye mu nzu hari abafite ikaramu n'ikayi, hari abandi imbere yabo ku meza hari uducupa tw'amazi yo kunywa, hari n'ibikapu biri ku meza, imbere yabo hari umugore uhahagaze.

Abantu bicaye umwe yazamuye akaboko hejuru, kuri ako kaboko akaba yambayeho ibikomo, hakaba hariho n'agapfukamunwa ku ruhande rwe hari undi ufite ikayi mu ntoki.

Abantu benshi bicaye mu nzu, mu ntebe ndende imbere yabo hakaba hari undi muntu uhagaze muri iyo nzu amatara akaba ari kwaka, imbere yabo hakaba hari urumuri ruhari bari kurebamo ibyanditseho.

Umugore wikoreye igitebo kirimo ibyatsi, akaba afite isuka mu ntoki, inyuma ye hakaba hari uruyuzi, hirya yaho hakaba hari inzu isakajwe n'amategura.

Umuntu uhagaze afite agatabo mu ntoki, uwo umuntu akaba yambaye umwenda urimo amabara y'ubururu n'umuhondo, inyuma ye akaba hari urugo rw'imbere hakaba harimo inzu.

Abantu babiri bafite uburoso bwoza amenyo bahagaze bakaba bambaye imyenda y'umweru bakaba bari mu nzu bafite imisatsi miremire.

Abantu bicaye bambaye imyenda y'icyatsi kibisi, hari uhagaze ari koza amenyo, imbere yabo ku meza akaba hari umuti bogesha amenyo, inyuma yabo hakaba hahagaze abandi bantu bambaye imyenda y'umweru.

Abantu babiri b'abaganga imbere yabo hari umuntu uharyamye bari kumuvura, umwe muri bo akaba yambaye ishati y'umweru inyuma hariho agapira k'umukara undi akaba yambaye agapira k'umukara.

Umuntu washyize urudodo mu menyo ari kwireba mu ndorerwamo, yambaye ubusa akaba yarogoshe umusatsi yarawumazeho, akaba afite urudodo yarusobetse hagati mu menyo.

Abantu benshi bicaye bambaye imipira y'icyatsi kibisi, imbere yabo kumeza harambuyeho igitambaro cy'umweru, hari umwe muri bo bari kumukura amenyo, umwe muri bo yambaye umwenda w'umweru.

Inzu irimo icyumba kinini, hasi hashashe amakaro, mu nzu hateretsemo intebe eshatu, hejuru hari amatara manini ari kwaka, umuryango ari ibirahure.

Umwana mutoya afite uburoso mu ntoki bwo koza amenyo akaba yambaye ishati y'umweru, ubwo buroso bukaba ari ubururu bufite n'ibara ry'umuhondo.

Abantu babiri umwe aryamye undi ahagaze, umwe bari kumukura amenyo uri kumukura amenyo akaba yambaye imyenda y'ubururu, iruhande rwe hakaba hari ibindi bitambaro by'umweru, uryamye hakaba hari igisinga bamushyize mu menyo.

Umuntu uri koza amenyo afite mu ntoki uburoso bufite ibara ry'ubururu, akaba yashyize igitambaro mu mutwe cy'umweru yambaye n'akenda k'umweru.

Umuntu w'umugabo ahagaze yasetse amenyo yose agaragara, akaba afite ubwanwa bwinshi akaba yambaye ikote ry'ubururu n'akandi gapira mu imbere.

Abantu benshi bahagaze batonze umurongo bafite impapuro mu ntoki, imbere yabo hakaba hari ihema ry'umweru rifite ibara ry'ubururu, mu aba bantu bamwe bakaba bambaye imyenda y'umweru.

Umugabo wicaye ageze mu za bukuru iruhande rwe hari umukobwa amufashe ku rutugu ari kumuha imiti, ku meza hakaba hari mudasobwa n'ikirahure kirimo amazi yo kunywa.

Umugabo ugeze mu za bukuru yambaye amarore, imbere ye hakaba hari umugore ufite imisatsi miremire yambaye umwenda w'ubururu, afite igipimo ari gupima umusaza umuvuduko w'amaraso.

Umuntu uri mu nzu afite ikirahure mu ntoki kirimo amazi, mu kandi kaboko harimo ibinini agiye kunywa, iruhande rwe hakaba hari ibitambaro byo ku idirishya.

Abantu babiri umwe yicaye mu igare ry'abamugaye undi asutamye iruhande rwe. Iruhande rwabo akaba hari ibirahure, umwe muri bo akaba yateze igitambaro mu mutwe.

Abantu babiri umwe ari umusaza ugeze mu za bukuru, yambaye agapira k'umweru, undi akaba ari umugore wambaye imyenda y'abaganga, ifite ibara ry'ubururu afite ikarita mu ijosi.

Umuntu ufite ikirahure cy'amazi mu ntoki yifashe ku munwa akaba yambaye amarore, inyuma ye hakaba hari imyenda ihamanitse ku rukuta hakaba hariho irangi ry'umweru hakaba hari n'umutako umanitse ku rukuta.

Abantu babiri bicaye umwe ari umusaza akuze undi akiri mutoya uwo musaza akaba afite imisatsi yabaye umweru akaba afite telefone mu ntoki.

Abantu babiri bahagaze bafatanye mu kiganza, umwe akaba ageze mu za bukuru ari umukecuru yambaye amarori, undi akaba ari mutoya yambaye imyenda y'abaganga.

Abantu babiri bageze mu za bukuru umwe ari umusaza undi ari umukecuru, umwe akaba afite imisatsi yabaye umweru, umukecuru akaba afite urupapuro mu ntoki akaba yambaye impeta ebyiri ku ntoki, umusaza we akaba yambaye impeta imwe.

Abantu babiri bageze mu zabukuru, umwe ari umusaza, undi ari umukecuru imvi zabo bakaba bafite imvi umwe azifite mu bwanwa no ku mutwe, undi azifite ku mutwe, umukecuru akaba afite urupapuro mu ntoki naho umusaza akaba afite telefone mu ntoki.

Abantu bahagaze harimo ufite imisatsi y'umweru n'uwambaye agapira k'umweru, imbere yabo hari umwana mutoya, ku ruhande hari undi ufite umupira w'ubururu.

Abantu batatu bahagaze, bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye umwenda w'ubururu, undi yambaye akenda k'umukara, inyuma yaho hahagaze undi, yambaye igitambaro mu mutwe.

Abantu benshi bahagaze bambaye amakarita mu ijosi. Umwe akaba yambaye ikanzu y'umweru, undi y'umukara, undi akaba yambaye ikote ry'umukara. Inyuma yaho hakaba hari ibyapa byanditseho amagambo.

Abantu benshi bipfutse bambaye imyenda yo kwa muganga bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru hose no mu mutwe, bakaba bambaye n'udupfukamunwa n'amarori manini.

Umuntu uhagaze yazamuye igipfunsi hejuru, akaba yambaye agapfukamunwa n'ingofero z'abaganga ku rutugu akaba afite igikoresho abaganga bakoresha bapima umutima.

Umugabo uri gusuhuza abihayimana b'abagore bakaba bambaye ibitambaro mu mutwe n'imyenda y'umweru, uwo mugabo akaba yambaye ikote, inyuma yabo ku rukuta hakaba hasa n'ubururu.

Abaganga benshi bari mu cyumba imbere yabo ku gitanda hari umurwayi uharyamye, inyuma ku rukuta hakaba hari za televiziyo bari kureberamo ibice by'uwo muntu bakaba bambaye udupfukamunwa.

Abantu benshi bicaye mu nzu bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, bambaye imyenda y'umweru bafite n'imisatsi miremire y'umukara, imbere yabo hakaba hahagaze umuntu wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umweru.

Umurwayi uryamye ku gitanda, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye imyenda y'umweru akaba yambaye n'amarori, ku ruhande rwabo hakaba hahagaze undi muntu wambaye umwenda w'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri abarwayi baryamaho kimwe kikaba kirambuyeho agatambaro k'ubururu ku buriri hashasheho igitambaro cy'icyatsi kibisi.

Icyumba cy'inzu, kirimo itara riri kwaka, ku rukuta hakaba hasize irangi ry'umweru, hasi hakaba hari igitanda, hirya y'igitanda hakaba hari ameza, hari n'akabati.

Icyumba kinini kirimo amatara menshi arimo kwaka, hakaba harimo ibitanda, ibyo bitanda bikaba bifite matera z'ubururu, iruhande hakaba hariho amadirishya y'ibirahure.

Umugabo wicaye yambaye umwenda w'ubururu, afite mu ntoki mudasobwa ntoya, imbere ye hakaba hari indi mudasobwa nini cyane akaba ari kuyirebamo, imbere ye hirya hakaba hari ikirahure cyo ku idirishya.

Umuntu wambaye agapfukamunwa yicaye mu igare ry'abamugaye, imbere ye hahagaze umuntu wambaye imyenda y'umweru yambaye n'agapfukamunwa, hirya ye hakaba hari abandi bicaye, ku meza hari uducupa tw'amazi yo kunywa.

Inyubako ndende igeretse, imbere yaho hakaba hari abantu benshi bahagaze, bambaye imipira y'ubururu, iruhande rwabo hakaba hari amatara maremare yo ku muhanda, imbere y'urugo akaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri kihahagaze.

Umuntu wicaye mu kagare k'abamugaye, inyuma ye hari undi uri kumusunika wambaye ikote ry'umukara, imbere yabo hakaba hahagaze undi muntu wambaye umupira w'umweru.

Abantu babiri baryamye ku bitanda byo kwa muganga bamwe bafite ibyo bari guhumekeramo, iruhande rwabo hakaba hari amacupa arimo amazi yo kunywa, hejuru ku rukuta hakaba hari televiziyo.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako igeretse, ku iyo nyubako hakaba handitseho ngo Rwamagana hosipito, imbere y'iyo nyubako kandi hakaba hari n'ururabo rw'umutako.

Igitanda cyo kwa muganga kiriho amasashe arimo umunyu ngugu ku ruhande rwacyo hakaba hari imashini bifashisha bapima umutima, inyuma ku rukuta hakaba hariho umutako.

Inzu y'ubucuruzi ikaba irimo amatara ari kwaka, hakaba harimo n'ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibiri mu makarito, hakaba hari n'amarori menshi cyane.

Inyubako ndende igeretse rimwe, ikaba ifite amadirishya y'ibirahure n'urugi rurimo ibirahure, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri kihahagaze.

Abantu bahagaze imbere y'inzu, kuri iyo nzu akaba handitseho ngo ikigo nderabuzima cya Gishweru, muri abo bantu umwe yambaye umwenda w'umweru undi yambaye agapira k'umutuku undi yambaye ingofero itukura.

Abantu babiri, umwe ateruye uruhinja mu ntoki, uwo wundi akaba yambaye amarore, yambaye n'umwenda w'ubururu ufite akabara k'umweru, undi akaba yambaye uw'umweru.

Igitanda cyo kwa muganga ku icyo gitanda hakaba harambitseho ibisashe birimo imyunyu ngugu, iruhande rw'icyo gitanda hakaba hari imashini zipima umuntu uba uhicaye, ku ruhande hakaba hari umutako urambitse ku rukuta.

Inyubako igeretse yubakishijwe n'ibirahure, imbere yaho hakaba hari ibinyabiziga by'imitende ibiri bihagaze, hirya yaho hakaba hari icyapa cyo ku muhanda, inyuma yabo hakaba hari ibendera ry'igihugu.

Icyumba kinini kigabanijemo kabiri, kikaba kirimo ibitanda byo kwa muganga bishasheho amashuka y'umweru, hejuru hakaba hagiye hari inzitiramibu kuri buri gitanda.

Inyubako nini igeretse, imbere y'aho hakaba hari indabo z'imitako, hakaba hari n'imodoka iparitse imbere y'aho, iri mu ibara ry'umweru, ku ruhande hakaba hari indi modoka ihari iri mu ibara ry'umukara.

Ibitanda byo kwa muganga bisasheho amashuka y'icyatsi kibisi. Ibyo bitanda bikaba ari icyuma, ku ruhande hakaba hariho ibitambaro bifashisha bakora icyumba.

Umuntu wicaye yambaye agapfukamunwa akaba yambaye umwenda w'ubururu, afite igikoresho abaganga bifashisha bapima, umutima imbere ye ku meza hakaba hari mudasobwa.

Umuntu uri kwinanura yazamuye amaboko hejuru yambaye akenda ko hejuru k'umweru, imbere ye hakaba hari amazi menshi akaba afite imisatsi miremire.

Umuntu wicaye ari muri siporo yambaye inkweto n'agakabutura gatoya k'ubururu gafite ibara ry'umweru, akaba afite imisatsi miremire iruhande rwe hakaba hari ibyatsi byinshi.

Isoko rya kijyambere rigezweho ririmo ibicuruzwa bitandukanye bigiye bigerekeranije, hari ibiri mu makarito y'umweru n'ubururu, n'ibindi biri mu makarito y'umweru n'umuhondo.

Umuntu ufite agacupa mu ntoki ari kwimenaho amazi mu maso, akaba yambaye agapira k'icyatsi kibisi ku kaboko hariho akandi kantu kaziziritseho.

Umuntu uhagaze ari kunywa amazi yabize icyokere akaba afite igitambaro bihanaguza, akaba yambaye agasengeri, inyuma ye hakaba hari urumuri.

Ikirango cy'abakina imikino y'imirwano, harimo abantu babiri bari kurwana, umwe yambaye umwenda w'umweru, undi yambaye umwenda w'ubururu, inyuma yabo hari izuba.

Umuntu uri gukora siporo yahinnye akaguru kamwe akandi yakarambuye, akaba yambaye ipantaro y'umukara yambaye n'agapima amaraso ku kaboko, iruhande rwe hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bari mu kibuga bari muri siporo hirya yaho hakaba hubatse ihema, ku ruhande hakaba hari urutoki rwinshi, imbere y'urutoki hakaba hari ibiti, hirya hakaba hari inzu ifite amabati atukura.

Abantu bicaye imbere yabo hari ibikapu bibiri bifite ibara ry'umutuku kimwe kikaba cyanditseho fest ide box kikaba kiriho agasaraba k'umutuku kari mu ibara ry'umweru.

Abantu bane bapfukamye imbere yabo hari umuntu uryamye, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bahagaze, muri abo bapfukamye hakaba hari uwambaye ishati y'ubururu hirya ye hari undi wambaye agapira k'umweru.

Umusore uri gukora siporo, ari guterura ibyuma yicaye, akaba yambaye agapira k'umukara karimo imirongo y'umweru, iruhande rwe hakaba hahagaze umukobwa wambaye umwenda w'ubururu hejuru.

Abantu benshi bicaye bafite amakaramu n'amakayi mu ntoki, bakaba harimo abambaye imyenda y'umweru, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye umwenda w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu babiri umwe yicaye undi ahagaze yamufashe akaguru arimo amukanda. Uwicaye yambaye umupira utukura naho uhagaze akaba yambaye imyenda y’ umweru.

Iduka ririho ibicuruzwa bitandukanye riri ku nyuguti ya A, imbere y'iyo nzu hakaba hari intebe ku yindi nyuguti ya B hakaba hari intebe y'umweru n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bahetse ibikapu bari mu mazi, iruhande rwabo hakaba hari ishyamba, imbere yaho hakaba hari isumo rinini, abo bantu hakaba hari uhetse igikapu cy'umukara n'uhetse icy'ubururu.

Isoko rigezweho rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bigiye biri mu macupa atandukanye, hari ibiri mu macupa y'umweru, ay'umukara afite n'amabara y'umuhondo hakaba hari n'andi agiye afite amabara atukura.